Umugore uri mu murima we yahinzemo imbuto zigiye zitandukanye, akaba afite ipombo ari kugenda azitera umuti kugira ngo arebe ko zamererwa neza maze zikazamuha umusaruro.

Umuntu uri mu murima we uteyemo amoko agiye atandukanye y'imboga ndetse n'imbuto, aho ari kugenda azitera umuti kugira ngo zitazabasha kurumba cyangwa gufatwa n'indwara.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abagabo bambaye ibigofero bahetse amapombo, aho bari kugenda mu murima w'umuceri bagenda bawutera umuti kugira ngo uzatange umusaruro.

Umugabo uri kugenda ahantu mu murima we yateyemo imbuto, akaba ari kugenda azitera umuti yifashishije ipombo, mu rwego rwo kugira ngo arebe ko yabona umusaruro utubutse.

Umuntu uri mu murima uhinzemo imbuto, akaba ari kugenda azitera umuti kugira ngo izo mbuto ze zitaza kugira ikibazo, maze bigatuma zirumba ntizitange umusaruro.

Abagabo b'abazungu bari mu murima w'icyayi, aho bari kugenda bateramo umuti mu cyayi cyabo kugira ngo kitaza kumererwa nabi cyangwa se kigafatwa n'udukoko.

Umugore uri mu murima w'umuceri, aho ari kugenda awutera umuti kugira ngo uwo muceri we utazafatwa n'udusimba maze ukaba wamuhombya maze bikaba byamuviramo igihombo.

Umugabo wambaye agapira ka oranje, akaba ari mu cyuzi yateze indobani, akaba ari gukanga amafi ngo ajyemo, maze abone uko ayafata kubera ko ari umurobyi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere horowemo amafi, hakaba habera ibikorwa bijye bitandukanye by'uburobyi bw'amafi agiye atandukanye.

Ubworozi bw'amafi busigaye bwarateye imbere cyane, aho hari abantu basigaye bayorora yamara gukura, bakayaroba bakazana bakajya kuyagurisha ndetse bakazana n'injanga zikiri ntoya.

Umusore ndetse n'umukobwa bari mu cyuzi, aho bafite amashashi, ayo mashashi akaba arimo amafi bavuye kuroba, uburobyi bw'amafi rero ni ingenzi cyane.

Uburobyi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye baroba amafi bakayitaho, hanyuma akaba yabasha kuba yabateza imbere cyane.

Umugabo uri kugenda ahantu imbere y'amazi ari kumwe na bagenzi be bigaragara ko ari abarobyi bakaba bagiye kuroba amafi muri iki cyuzi kibegereye.

Uburobyi bw'amafi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye baroba amafi barabigize umwuga, maze bakajya bajya kuyagurisha mu maduka agiye atandukanye.

Umugabo wambaye agashati k'amaboko magufi, akaba afite agasahani, bigaragara ko agiye kumena ibyo kurya mu cyuzi kugira ngo amafi abashe kubirya, maze akure.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe b'abarobyi, aho bari kwishimira umusaruro babonye, kuko buri wese agiye afite ifi mu ntoki, bigaragara ko babonye umusaruro, none bakaba banezerewe.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda ,aho icyayi gisigaye gihingwa mu turere dukonja twinshi tugiye dutandukanye ,muri utwo turere twavugamo nka Ngororero , Rubavu, Nyabihu ndetse na Nyaruguru.

Umugore uri mu murima we w'ikawa, akaba afite umugasii ari kugenda yifashisha asoroma iyo kawa kugira ngo itaza kuvaho nabi cyangwa akayangiriza.

Ubuhinzi bw'ikawa bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga bakayitaho hanyuma yamara kwera ikazabaha umusaruro.

Ibihingwa ngengabukungu bikomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hari ubuhinzi bw'icyayi, bikaba bihingwa ahantu mu misozi hakonja cyane, maze umuntu akabihinga byamara gukura bikaba byamuteza imbere cyane.

Abantu batatu bari gushoroma icyayi harimo umugore umwe n'abagabo babiri, bakaba bafite intebo zabugenewe bifashisha basoroma icyayi kugira ngo barebe ko babona amafaranga abatunga.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga, hanyuma yamara kwera bakayisarura bakayijyana ku isoko.

Udushashi turi mu mabara y'icyatsi, aho utu dushashi tuba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura abanyeshuri cyangwa se amatungo agiye atandukanye.

Hariho amaduka agiye atandukanye acuruza imiti myinshi igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, aho iyo miti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uyicuruza abona abakiriya.

Ishashi irimo amoko agiye atandukanye y'imiti aho iyi miti ari ingenzi cyane kubera ko yifashishwa mu kuvura amatungo indwara zigiye zitandukanye ziba zayafashe.

Inyubako bacururizamo imiti igiye itandukanye aho iyi miti yifashishwa mu kuvura amatungo menshi, aho ayo matungo igihe cyose agize ikibazo bahita bayavuza iyo miti.

Ahacururizwa imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura aya matungo, ikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese uyihinze ibasha kuba yamuteza imbere.

Agakoresho kari mu mabara y'umutuku, kaba kari ahantu ku nyubako, kaba karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo agiye atandukanye bitewe n'indwara aba yarwaye.

Iduka ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imiti, yifashisha bavura amatungo, igihe aba yagize ikibazo cy'uburwayi, maze bakayitaho agahita akira.

Akabati gapanzemo amoko agiye atandukanye y'imiti, aho iyi miti ari ingenzi cyane kuko yifashishwa mu kuvura amatungo indwara nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo amere neza.

Uducupa dufite imipfundikizo y'umutuku, turimo amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane kubera ko ivura amatongo, maze akamererwa neza.

Hariho ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura amatungo, aho ibyo bikoresho biba birimo imiti igiye itandukanye ivura aya matungo indwara nyinshi zigiye zinyuranye.

Utucupa turi mu mabara y'umweru, ducururizwamo amoko agiye atandukanye y'imiti, aho iyi miti yifashishwa mu kuvura amatungo menshi agiye atandukanye kugira ngo ayo matungo abashe gukira.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye bakora umushinga wo kwinaza imbuto muri pipinyeri maze zamara gukura bakajya kuzitera.

Umurima w'umuceri urimo abahinzi bagiye batandukanye, aho bari kugenda babagara umuceri wabo hanyuma ibyatsi babinaga ku ruhande kugira ngo uzere neza maze ubashe kubaha umusaruro.

Umugabo usunitse inkwi ku igare, akaba ari kugenda ahantu mu kibara kirimo ibyatsi byinshi kugira ngo arebe ko abona inkwi zo gucana, maze abe yaducanira umugore we.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'imboga aho izo mboga ari inyenzi cyane, hakaba hari umugabo uri muri uwo murima ari guhinga aho ari gukoresha isuka ye yambaye isengeri y'umukara.

Ni byiza cyane ko umuhinzi uwo ari we wese yita ku bihingwa bye maze akazajya abyuhira ndetse akabyitaho kugeza igihe byereye maze bikamuteza imbere.

Abagore bagera muri babiri bavuye mu murima guhinga, aho umwe atereye isuka ku rutugu, undi akaba yikoreye igiti cy'inkwi zo gucana, bakaba bari kugenda mu muhanda.

Akarima k'igikoni ni gahunda yashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda, kugira ngo buri muturage wese abashe kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana baba bakiri batoya cyane.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese uziriye zibasha gutuma umubiri we umera neza, maze ukanatera neza.

Ubutaka bugari buteyeho amoko agiye atandukanye y'ibihingwa ndetse ubu butaka bwo bukaba bubereye aho, bigaragara ko ari ahantu bamaze guhinga bakaba bagiye kuhatera imyaka.

Ahantu hari ubutaka bunini kandi bugari, buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wabihinze, bibasha kumuteza imbere.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abahinzi bahinga ibirayi barabigize umwuga, hanyuma bakabyitaho, bamara kubisarura bakabigurisha, bikabaha amafaranga.

Ahantu hari ubutaka bugari buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi, aho ibi byatsi ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu ubyicayemo anezererwa ndetse akumva amerewe neza cyane.

Udufuka tuvamo ifarini turimo amoko agiye atandukanye y'ibirayi, aho ibirayi babisarura hanyuma bakabicuruza, bakabigurisha ababikeneye nabo bagatanga amafaranga.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho hari insina batemye barambika hasi kugira ngo izo nsina zifashishwe bari gusasira imyaka ihateye.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane kuko umuntu ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho zikikije umuhanda, zikaba ari inyubako z'ahantu mu cyaro, aho inyuma yazo hateye insina nyinshi cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho bari mu gikorwa cy'umuganda, bakaba biganjemo inzego z'umutekano, zirimo igisirikare ndetse n'igipolisi na daso, bakaba bari kugenda bakupa kupa.

Umusozi uteyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari byiza cyane ndetse n'imbere hakaba hubatsemo akazu gasakaje amabati asa icyatsi kibisi.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu iyo abyitayeho bibasha kumuha umusaruro utubutse maze agakirigita ifaranga.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze iyo bikuze, bimuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Isiteri ripanzeho ibiti by'inkwi bigiye bitandukanye, aho ibi biti ari ingenzi cyane ku buryo iyo ubifashe ukabigura ukabirunda iwawe ubicana igihe kinini.

Ubuhinzi bw'icyayi bukunze guhingwa ahantu, haba hari ubutaka bukonja cyane, nko mu turere tw'iburengerazuba, nka Ngororero, Nyabihu, Rubavu, Nyamasheke ndetse na Nyaruguru.

Igiti kiri ahantu mu ishyamba kikaba ari kirekire cyane, aho iki giti ari ingirakamaro cyane kubera ko iyo umuntu agihinze kibasha kumuha umusaruro maze agasezera ku bukene.

Abantu bagiye batandukanye bari mu murima uhinzemo ibihwagari, bikaba bitangiye kuzana ururabo ariko atari byose, barishimye kubera ko biri kubaha umusaruro.

Umuntu uri mu murima we uhinzemo ibitunguru, akaba ari kugenda abirandura kugira ngo ajye kubigurisha ku isoko kuko ubu ngubu ibitunguru byiwe byeze neza cyane.

Umurima w'ibitunguru uteyemo ibitunguru byinshi cyane aho hari umuntu uri kugenda abirangura anabirandura kugira ngo age kubyicururiza mu isoko ryiwe.

Umugezi unyura ahantu mu mubande wubakiwe na sima bigaragara ko ari uburyo bifashishije kugira ngo bage babona amazi yo kuhira ibihingwa bihinze hafi aho ngaho.

Umugabo wahinze imbuto n'imboga bigiye bitandukanye, none izuba ryavuye akaba ari kugenda abivomera akoresheje isahani, aba adaha amazi akamenamo.

Umugabo uri mu murima we w'ibigori, aho ari kugenda abyuhira yifashishije ipombo yabugenewe kugira ngo bitazarumba, maze bikaba byamukenesha akaba yahomba.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto basigaye bazuhira mu buryo bugezweho bwa kijyambere, hifashishijwe ikoranabuhanga, maze zigatanga umusaruro.

Umugore uri kugenda ahantu mu murima, ari kugenda yuhira ibihingwa bye yahinze, akaba ahinnze n'umwana, ubuhinzi rero ni ingirakamaro kubera ko iyo umuntu abuhinze bubasha kumuteza imbere.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'ihoboyi yahinnye akaba ari mu murima we yahinzemo inyanya n'ibigori, akaba afite umupira ari kugenda abyuhira kugira ngo bitazarumba.

Ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye ahinga imyaka, hanyuma agashyiramo umurasire uzajya ukogota amazi, maze akayifashisha ari kuvomera iyo myaka y'iwe.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari mu gikorwa cy'umuganda, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari kugenda biga ku ngingo zigiye zitandukanye zagirira Igihugu akamaro.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bumaze gutera imbere cyane aho ubu basigaye babihinga ku mirongo bashyizeho uduhomba tuzajya tunabyuhira hanyuma bafungura buri gihingwa kikaba cyakuhirwa.

Umugabo uri mu murima uhinzemo amateke, akaba ari kugenda ayuhira ayo mashu kugira ngo arebe ko yazamuteza imbere, yifashishije umupira wabugenewe.

Umugabo wahinze imbuto none akaba yagiye kuzuhira mu muririma wazo, akoresheje umupira wabugenewe, aho agenda atungiriza hanyuma amazi akagera ku mbuto ze.

Abantu bagiye batandukanye, bakaba bari mu murima wabo w'ibigori, aho bari kugenda babyuhira kugira ngo bitazicwa n'izuba, maze bikaba byabahombya, kandi bari bitezeho umusaruro.

Agasozi gateyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Ahantu hari ubutaka bwiza hakaba harimo n'ikiyaga kirimo udusozi tugiye dutandukanye, hakaba hateye n'igiti kirekire kibasha gukurura umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu bahari.

Agasozi kariho amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wabihinze bimuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Amoko y'ibiti agiye atandukanye, aho biteye ku dusozi twiza cyane ndetse tukaba ari udusozi tubereye ijisho, ku buryo umuntu wese utubonye yishima cyane.

Ubutaka buriho amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wabihinze bibasha kumuteza imbere cyane, maze akaba yasezera ku bukene.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka bakazitaho hanyuma zamara gukura bakazigurisha bakabonamo amafaranga.

Ahantu hari umurima munini cyane, uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo iyo umuntu abiteye mu murima we, bibasha kumuteza imbere akabona umusaruro.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakaziha ubwatsi ndetse zikarya zikamererwa neza cyane.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari aborozi babigize umwuga, aho bita ku matungo yabo kugira ngo abahe umusaruro maze batere imbere cyane.

Ubworozi bw'inkwavu bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkwavu barabigize umwuga bakazitaho maze zikabateza imbere cyane.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka baba bafite ikusanyirizo bagemuriramo amata maze bakayagurishamo bakabona umusaruro.

Ubworozi bw'ingurube nabwo bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe haba hari abantu borora ingurube barabigize umwuga, bakazitaho maze zamara gukura bakazigurisha, zikabaha umusaruro.

Ahantu hari abantu bagera muri kuri batanu, bakaba bafite ihene imbere yabo, aho hari umugabo umwe usutanye wambaye imyambaro y'icyatsi uri kugenda aziha umuti kugira ngo zikire.

Ubworozi bw'inkwavu nabwo bwatejwe imbere cyane, aho muri iki gihe umuntu asigaye yorora inkwavu, akazororera mu tuzu twubakishije ibyuma, akazigaburira, akaziha n'amazi, maze zigakura.

Abantu bafite amoko y'imbuto z'ibishyimbo agiye atandukanye, aho bari kuzireba ngo bahitemo izo bazatera nziza zabasha gutanga umusaruro utubutse umuhinzi.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto n'indabyo bikomeje gutera imbere cyane, aho hari abantu basigaye bakura pipinyeri bagateramo imbuto zigiye zitandukanye zamara gukura bakazigurisha.

Umuntu wicaye ku ntebe y'ubururu akaba ari kugenda ahungura ibigori bigaragara ko ari gushaka imbuto y'ibigori azifashisha ari guhinga mu murima we mwiza cyane.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ibigori barabigize umwuga, bakabyitaho hanyuma byamara kwera bikabaha umusaruro.

Udukiza turimo amoko agiye atandukanye, aho harimo imbuto nyinshi zigiye guterwa, harimo ibishyimbo, amashaza, soya, amasaka n'ibindi.

Abaganga baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo bazwi nk'abaveterineri, iyo umuntu agiye kubaga itungo arabahamagaza bakaza bakaripima bakareba ko rimeze neza basanga nta kibazo gifite bakarivura.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka za kijyambere hanyuma bakazitaho zamara gukura bakazigurisha bakabonamo amafaranga.

Abantu bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, basigaye bayabaga bakayavura cyane cyane iyo yanze kubyara, barayabaga bakayabyaza bakavanamo umwana hanyuma bakongera bakayiteranya.

Ubworozi bw'inka busigaye bwitaweho cyane, aho iyo umuntu aragiye inka ikagira ikibazo ahamagaza veterineri akaza kuyivura maze iyo nka ikaba yamererwa neza cyane.

Umuntu uri mu nyubako bigaragara ko ari umuganga w'amatungo, akaba ari kugenda akora ubushakashatsi bwinshi bugiye butandukanye kugira ngo abone uko azajya avura amatungo.

Abantu bagiye batandukanye, bambaye imyambaro y'umweru, harimo abahungu babiri ndetse n'umukobwa umwe, witandiye mu mutwe, bigaragara ko asenga mu idini ry'abayisilamu.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa ziburapfa aho ba rushimusi baza kuzihiga bakazica hanyuma bakajya kuzigurisha.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, hariho izijya kumera nk'ihene ariko ziba zifite amahembe maremare cyane, izi ngizi rero zikunda gukurura abantu.

Hariho amoko menshi agiye atandukanye y'inyoni, aho izo nyoni zikunze kuba ziri ahantu muri parike zikaba zizi kuguruka cyane kandi zikaba amatungo meza cyane bakunda.

Muri pariki y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho haba harimo n'inyamaswa z'inkazi nk'intare, aho zizwi nk'umwami w'ishyamba.

Imbata ni zimwe mu nyamaswa zikunze kuba ziri ahantu, aho ziba ari inyamaswa nziza cyane, zirya ibyokurya bigiye bitandukanye, maze zikaba zateza imbere umworozi wazo.

Ingwe ni inyamaswa ikunze kuba iri muri Parike y'Igihugu y'Akagera, iyi nyamaswa rero ni ingome kuko izi kwiruka cyane kandi ikagira n'amahane ikamenya kandi no kurira ibiti.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, hariho zimwe z'ingirakamaro cyane, ku buryo iyo uzoroye zibasha kuguteza imbere cyane .